Iki ni icyapa kinini kimanitse hejuru mu kirere cyiganjemo amabara y'umutuku ndetse n'umweru, hirya gatoya hari imbwa y'ikigina ndetse n'amaso y'umukara, nk'uko bigaragazwa n'amagambo yanditse kuri iki cyapa kiramamaza ibijyanye n'ubwishingizi.

Aba ni abantu batatu, umwe muri bo asa nk'ukuze, ni umudamu wishimye afite umwana mu ntoki, hari undi uryamye wambaye ibintu by'umweru bisa nk'aho ari kwa muganga, hamwe n'ubwishingizi bwo kwivuza ku giti cyawe n'abagize umuryango ikizere cy'ejo hazaza, ibyishimo by'umuryango, ni amagambo yanditse ku cyapa cyamamaza baherereyeho.

Uri ni urubuga rw'amamaza ibijyanye n'ubwishingizi aho banditse,"Gerayo Amahoro," Igihe utwaye rero nawe nagushishikariza kubagana kubera ko bigufasha kugera aho ugiye mu buryo bworoshye kandi utekanye.

Uru ni urubuga rwo kwamamarizaho ibijyanye n'ubwishingizi, nawe rero nakugira inama niba uri umucuruz,i ndetse ufite ibindi bikorwa bikwinjiriza amafaranga, y'uko wabishinganisha mu bigo nk'ibi.

Aha ni ahantu ubona hari urujya n'uruza rw'abantu bagiye batandukanye bakeye ndetse n'ibinyabiziga ku ruhande, hejuru gatoya hari icyapa cy'ubururu cyamamaza ikigo cy'ubwishingizi runaka gitandukanye.

Uyu ni umugabo ubona usa nk'ukuze, arishimye cyane, yambaye ishati y'ubururu, mu mugongo we hari undi mwana ubona uri guseka, nawe rero nakugira inama yuko wajya wishimana n'abawe mu gihe ukibafite, kubera ko ni ibintu bitera ibyishimo.

Iki ni icyapa kinini kimanitse hejuru cyamamaza kigizwe n'amabara atatu icyatsi, umweru ndetse n'ubururu, hirya gato hari ifoto iriho abantu babiri basa nkabakuze, umugore ndetse n'umugabo ubona bishimye cyane.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi. Ruriho ifoto y'umukobwa wambaye umupira w'ubururu urimo umweru, urebye ku maso ye urabona ko yishimye, umusatsi urasokoje, afite igikoresho cy'ikoranabuhanga mu ntoki ze kizwi nka terefone.

Imbere yacu turahabona icyapa kinini, kimanitse hejuru cyane. Iki ni icyapa kigaragaza uburyo bw'ubwishingizi, ushobora kuba wakoresha igihe uhuye n'impanuka, bikaba byagufasha kuba warinda kwangirika kw'amafaranga yawe.

iki ni icyapa kinini kiriho ifoto y'umugabo ubona wishimye, agasatsi kiwe karasogoje aramwenyura cyane, yambaye ishati y'umweru ndetse n'ikote ry'umukara. Kiramamaza ubwishingizi.

Uru nurubuga rukoresha ikoranabuhanga ndetse na murandasi bisa nkaho ari urwa banke runaka rukaba rufasha kohereza kwakira amafaranga bikakurinda gusiragira ugenda namaguru kandi bigoranye cyane.

Uru ni urubuga rwa banke ushobora gukoresha ubitsaho amafaranga kuri konti yawe ndetse unayabikura akakugeraho wiyicariye ahantu hamwe.

Uru ni urubuga ushobora gukoresha wifashishije ikoranabuhanga cyangwa se murandasi, rukagufasha kohereza cyangwa se kwakira amafaranga avuye kuri telefone yawe, uyohereza kuri konti yawe ya banki.

Imbere yacu turahabona ishusho y'akabari keza cyane karimo umuntu tutabashije kumenya uwo ari we. Harimo amayoga ndetse n'intebe zo kwicaraho, bigaragara ko aho hantu ari ahagenewe gucuruza ayo mayoga.

Aka ni akabari keza ushobora kuba wasohokeramo wowe n'abawe ndetse n'inshuti zawe, mukabasha kuryoshya mu buryo bw'umutekano waho burizewe ndetse n'ibihakorerwa byose bifite amasuku.

Imbere yacu turahabona amacupa menshi arimo ibyo kunywa bigaragare ko ari akabari gasa neza cyane wasohokeramo yabo wowe ndetse n'umuryango wawe mukabasha kwishimisha mu buryo butabahenze cyane.

Imbere yacu turahabona umugabo wambaye ikote ndetse n'umudamu wicaye basohokeye ahantu mu kabari, urabona ko baberewe cyane ndetse bigaragara neza mu maso yabo bagaragazamo urukundo rwinshi cyane.

Imbere yacu turahabona inzu nziza cyane, bigaragare ko ari akabari kateraniwemo n'abantu benshi. Gafite amatara agiye atandukanye harimo ay'ubururu ndetse n'ay'icyatsi, ku ruhande gatoya rwaho turabona sikurini nini cyane. Ni ibintu bigaragara neza cyane bibereye amaso y'ubireba.

Aba ni abantu babiri ubona bishimye cyane bari guseka, hari ibyo bari guhererekanya; bari ahantu hameze nk'ahacururizwa imyenda, umwe muri bo yambaye umupira w'umweru ndetse n'isaha ku kaboko, ubona afite murandasi mu ntoki ze.

Irembo ni urubuga rwashyiriweho abanyarwanda, kugira ngo bajye bahabwa serivisi zitandukanye harimo n'ibyangombwa, bajyaga bajya gusiragira mu nzego z'ubuyobozi kugira ngo babiboneyo. Ubu byarorohejwe byose barabisanga ku irembo.

Iyi ni inzu nini ubona isize amabara y' umweru iriho ibishushano bigiye bitandukanye harimo abantu bane babiri ni abakobwa abandi ni abagabo ubona basa n' abari kugurisha imyenda y' ubwoko bwase

Imbere yacu turabona iduka ry'imyenda myiza cyane ikeye, yagufasha kugenda wambaye ndetse ukanaberarwa, imyenda ifite amasuku ku buryo bugaragarira amaso ya buri wese uyareba akaba yamukurura.

Nk'uko bigaragara aha ni ahacururizwa inkweto zigiye zitandukanye z'ubwoko bwose. Aha ushobora kuhakura urukweto wifuza ukaba warwambara usohotse cyangwa se ugiye mu bindi bikorwa byawe ujyamo bya buri munsi.

Nk'uko bigaragara ku ifoto imbere yacu turahabona abakobwa babiri beza cyane bisa nkaho basazwe n'ibyishimo, mu maso yabo bose baramwenyura umwe muri bo afashe amverope mu ntoki bisa nkaho bari muri boutique baje guhaha.

Aha ni ahagurishirizwa inkweto z'abari n'abategarugori nkuko bigaragara ku mashusho, dufite imbere yacu n'inkweto nziza ushobora kwambara wasohotse ndetse wagiye mu birori bigiye bitandukanye.

Iki ni ikinyabiziga gisa umweru, amapine n'umukara ibirahure bibengerana, imbere yacyo hari umugabo wambaye umupira w'umutuku afite ikintu kimeze nk'urufunguzo mu ntoki ziwe.

Iyi ni imodoka nziza bisa nkaho igurishwa ifite intebe zikomeye cyane ikikijwe n'ibirahure bibonerana ku ruhande hari ibiti by'icyatsi ubona bitanga umuyaga n'amahumbezi kubaherereye aho ngaho bose.

iyi ni imodoka nziza icyambaye amashashi nkuko bigaragara, ishobora kuba igurishwa nawe rero nakugira inama mu gihe ukeneye ibikoresho nk'ibi wajya ugana aho bigurishirizwa ukabasha kwihitiramo icyawe wifuza.

Iyi ni imodoka nziza cyane iri mu mabara y'umutuku amatara yayo aracanye, afite ibirahure by'umukara uko bigaragara nawe ushobora kuyigura uhamagaye kuri iyi nomero, zero karindwi, umunani, gatandatu, gatatu, gatatu, umunani, kane, ikenda, kane.

Ku ifoto yacu turahabona imodoka nziza cyane, iri mu mabara y'umukara inyuma gatoya amatara yayo arasa umutuku, ndetse n'amapine yayo ni umukara wivanzemo umweru, uko bigaragara ni imodoka igurishwa.

Imbere yacu turahabona imodoka nziza, imodoka y'umukara, iruhande rwayo hari abagabo babiri ndetse n'umugore umwe, urabona ko bakeye cyane bishimye mu mumaso yabo, kandi bigaragarira buri wese ubareba.

Aba ni abagabo babiri bakeye, ubona basa nk'abakuze, barishimye mu maso yabo, umwe muribo yambaye umupira w'umutuku, inyuma kandi hari imodoka y'umweru, ifite ibirahure bibonerana ahantu hose.

Ku ifoto yacu turahabona abagabo babiri beza cyane, bahagaze bahererekanwa urufunguzo imbere y'imodoka y'umukara ifite amapine y'umweru, nk'uko bigaragara aha ni ahagurishirizwa ibinyabiziga by'imodoka.

Iyi ni inzu nini ubona irimo ibikoresho bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga, hirya gatoya hari kinyabiziga cy'icyatsi ubona gikeya cyane gifite amatara arabagirana ku ruhande rwacyo.

Abagabo babiri ubona bahagaze imbere y'imodoka, ubarebye neza urababonana ibyishimo mu maso yabo. Bari guhererekanya ikintu kimeze nk'urufunguzo kinini, umwe muri bo yambaye agakote k'ubururu karimo akarangantego k'umweru.

Iyi ni imodoka nziza kandi nini bisa nk'aho igurishwa, ni umukara, inyuma gatoya hari abakobwa babiri ubona basa nk'aho bakiri batoya bambaye impuzankano y'umweru ndetse n'amapantaro ajya gusa ubururu.

Aba ni abagabo babiri basa nk'abakuze bambaye neza umwe muri bo n'ishati y'umweru ipantaro y'umukara, hagati yabo hateretse akamverope k'umutuku ntabashije kumenya neza ibirimo, barahererekanya ikintu kimeze nk'urufunguzo, bahagaze imbere y'imodoka nziza kandi nini.

Ku ifoto yacu turahabona imodoka nziza cyane z'umukara imbere gato hari ibara ry'umweru rigaragaza ibirangantego by'izo modoka uko bigaragara, aho ziri n'aho zigurishirizwa.

Iyi ni imodoka nziza iri mu mabara y'umweru avanze n'umukara ibirahure n'umukara gusa gusa iruhande rwayo hari igiti kinini kandi kirekire ubona gitanga umuyaga n'amahumbezi aho hantu.

Aba bantu babiri bahagaze ahantu hameze nk'ahatangirwa amafaranga, umwe muri bo ni umukobwa mwiza wambaye ijipo ijya gusa ubururu ndetse n'inkweto z'umukara n'ikote ry'umukara, ku hande gatoya umugabo uhahagaze yambaye ishati ndetse n'ipantaro nziza cyane.

Aha ni ahantu heza uharebye urabona ko hari ibikoresho byinshi by'ikoranabuhanga ndetse icyapa kiri munsi yaho kiragaragaza ko ushobora kwishyura amafaranga wohereza i burayi cyangwa se mu mahanga, nawe akaba yakugeraho avuye i bwotamasimbi utavuye aho uri ukaba wayakira.

Iyo tubona imbere yacu ni amafaranga uko bigaragara afitwe n'umuntu mu biganza byiwe wambaye isaha nziza cyane ndetse n'ishati nziza cyane, ni umuntu ubona ufite inzara nziza ku buryo bugaragara.

Imbere yacu turahabona abantu babiri umwe n'umugabo ndetse undi ni umugore barasa nkaho bari guhererekanya amafaranga mu ntoki amafaranga adufasha kuba twahaha ndetse tukagura n'ibindi bikoresho bimwe na bimwe tuba dukeneye ikindi tukayishyura mu byo dukora bya buri munsi byose.

Imbere yacu turahabona ibikoresho byifashishwa mu kubara amafaranga, igihe ugiye kuyakura kuri banki kugira ngo biguheze amafaranga yawe yuzuye ndetse nta kintu na kimwe kivuyemo uko uyifuza.

Urabona umuntu utwaye ipikipiki, ari ku muhanda wubakishije amabuye yambaye umwenda y'umukara n'ikintu bambara ku mutwe biririnda impanuka.

Uyu ni umudamu ubona asa nk'ukuze yambaye neza cyane arakeye mu isura asa nk'uri guseka iruhande rwe hateretse igikombe kirimo amata, afite terefone mu ntoki ze asa nk'uri kurebamo.

Ibi ni ibyo kurya bikorwa hifashishijwe ifarini amavuta ndetse n'umuriro, urabona ko biteretse ku isahani nziza iri mu mabara y'umweru, nawe rero nagushishikariza yuko wajya urya ibintu nk'ibi ingibi kubera ko hari byo byongera ku mubiri w'umuntu.

Ibi ni ibyo kurya bikorwa hifashishijwe ifarini, isukari, amazi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye ni bitatu biteretse ku isahani y'umweru ubona icye cyane.

Uyu ni umubyeyi wambaye neza, ubona usa nk'ukuze, imbere ye gato hari intebe y'ubururu ndetse n'umweru, hirya ye kandi hari umuntu wicaye usa nk'uri kureba muri murandasi, inyuma ye hateretse ibyo kunywa bigiye bitandukanye nk'amata, amazi n'ibindi.

Imbere yacu turahabona iduka ryiza cyane ubona ko rifite isuku rirakeye, harimo ibintu bigiye bitandukanye harimo amata, amazi ndetse n'ibyo kunywa biryohera.

Iri ni iduka ryiza cyane ricuruza ibyo kunywa higanjemo amata nk'uko bigaragara ku cyapa cyaryo cyo hejuru, ni byiza cyane rero ku mubiri w'umuntu ko yakoresha amata kubera ko ni ingirakamaro cyane.

Imbere yacu turahabona igikombe cy'amata, agaragara nk'aryoshye cyane kubera kubona abayanywa, bari kuyanywana ubwuzu, ni iduka ririmo abantu bagera kuri bane ndetse n'ugurisha amata wa gatanu.

Ku ifoto yacu turahabona iduka bisa nkaho ricuruza amata meza cyane y'umwimerere kandi iy'ubwoko bwose ushobora kuyabona igihe uyakeneye, ndetse ukaba wanahasohokana n'abawe mukabasha kwishimana muri kumwe.

Kuri iyi foto iratugaragariza abagabo babiri umwe muri bo bisa nkaho ari umucuruzi kubera ko imbere ye hari ibicuruzwa, undi wambaye isaha ku kaboko ndetse unafite ibyishimo uri guseka mu maso hiwe bisa nkaho ariwe muguzi.

Ifoto iri imbere yacu turahabona umubyeyi mwiza afite afite telefone mu ntoki ndetse iruhande rwe hateretse icyayi kigaragare ko ari icyayi cy'amata.

Uru ni urubuga rukoresha ikoranabuhanga ndetse na murandasi rushobora kugufasha wishyura, wohereza cyangwa se wakira amafaranga bitagusabye kuva aho uri mu buryo bwihuse kandi bwizewe nakugira inama yo kujya ubukoresha.

Ubu ni uburyo bw'ikoranabuhanga ushobora kohereza amafaranga yawe cyangwa se ukayakira mu buryo bukoroheye bitagusabye kuva aho uri cyangwa se ngo ugire umwanya utakaza mu bindi bintu.

Imbere yacu turahabona telehhone nziza irimo uburyo bwo kutwereka ko dushobora kwishyura dukoresheje ikoranabihanga kuri MTN, uburyo bworoshye butagoye kandi bwizewe cyane.

Uru ni urubuga rwa Airtel ushobora kurukoresha wishyura, wohereza cyangwa se wakira amafaranga kuri bagenzi bawe mutari kumwe muri ahantu hatandukanye, nakugira inama rero yuko wagana ikigo nk'iki ngiki kikagufasha kugera kuri ibyo bintu bitakugoye.

Urupapuro ruriho amagambo yanditse mu ibara ry'umukara n'ubururu hariho inyuguti nini harimo ra na ra na a.

Turabona imbere yacu telefone irimo uburyo butwereka uko ushobora kuba wakwishyura ukoresheje nomero yawe ikuranga ndetse ukaba wanakoresha nomero ya banki mu buryo bworoshye cyane.

Imbere yacu turahabona urupapuro rugaragaza uburyo amafaranga yagiye akoreshwamo, ibyo yakoreshejwe byose ku mugaragaro, ibi rero ni ibintu byiza, kubera ko bifasha umuntu gupanga neza uko azakoresha amafaranga, akaba byamurinda gusesagura.

Aya ni amafaranga y'amanyamahanga ashobora kuvunjishwa mumanyarwanda, nawe ukaba wagira icyo uyakoresha, niba uyabitse nakugira inama yo kugana ibiro bishinzwe ivunjisha bikaba byagufasha.

Uru ni urubuga rugaragaza uko ivunjisha rihagaze ku isoko ryo kuwa mbere ku itariki cumi zukwa karindwi, bibiri na makumyabiri na gatatu, aho amafaranga y'amanyamerika ari kugura ibihumbi bitatu magana atandatu mirongo inani na rindwi n'ibice cumi na birindwi akagurishwa ibihumbi bitatu magana atandatu mirongo icyenda n'icyenda n'ibice cumi na birindwi ndetse n'ibindi byinshi.

Ku ifoto yacu turahabona ibiganza bibiri kimwe gifashe muri murandasi ikindi gicigatiye amafaranga y'amanyamahanga ndetse n'amanyamerika yifashishwa mu kugura icyo wifuza icyo aricyo cyose gihwanye n'ayo mafaranga.

Aya ni mafaranga y'abanyamahanga ubona ari guhererekanywa n'ibiganza higanjemo ay'abanyamerika nawe rero nakugira inama niba hari ayo ufite kowagana ibiro bishinzwe ivunjisha bikaba byagufasha.

Imbere yacu turahabona amafaranga y'amanyamahanga, arimo ahererekanywa mu ntoki, ubu ni uburyo bushobora kugufasha kugura icyo wifuza cyose ukoresheje aya mafaranga.

Uko bigaragara ku ifoto yacu turahabona amafaranga y'amanyamahanga ntabwo ari amafaranga y'amanyarwanda atangwa biciye mu kuyahererekanya mu ntoki, bidufasha rero kuba twagura no kugurisha bimwe mu bintu dufite ibikoresho byacu kugira ngo ayo mafaranga abashe kutubyarurira umusaruro.

Kw'ifoto yacu turahabona umugabo wambaye umupira mwiza ari kwandika ibiciro by'amafaranga uko agenda azamuka, amafaranga y'amanyamahanga aho amadolari y'amanyamerika ari kugura ibihumbi bitatu magana arindwi na makumyabiri n'abiri by'amanyarwanda ndetse akagurishwa ibihumbi bitatu magana arindwi na mirongo ine n'abiri by'amanyarwanda.

Ku ifoto yacu turahabona ibiganza bicigatiye amafaranga y'amanyamahanga, ruguru gatoya hari amafaranga y'ikirangantego cy'abanyamerika, aya ni amafaranga ushobora kwifashisha uyavunjisha mu mafaranga y'amanyarwanda, akaba yagira akamaro akumarira.

Ku ifoto yacu turahabona inzu nziza cyane, iriho icyapa cyamamaza ahabikurizwa ndetse n'ahabikirizwa amafaranga y'amanyamahanga, ni uburyo ushobora gukoresha wohererejwe amafaranga n'umuntu uri hirya y'igihugu urimo.

Iyi miryango ibiri iri mu mabara y'ubururu hejuru y'umwe muri yo hari icyapa kigaragaza ikigo gishinzwe ivunjisha ry'amafaranga y'amanyamahanga nakugira inama rero niba nawe hari ayo ufite waganayo bakakuvunjira.

Hagati yacu dufite imiryango myiza cyane, iriho imitako y'amabara y'umweru n'umukara ndetse n'umweru n'ubururu. hejuru y'iyo miryango, har'icyapa kigaragaza ikigo gishinzwe ibintu by'ivunjisha.

Iki ni ikigo gikorerwaho ivunjisha ry'amafaranga, ayo ariyo yose ushaka manyamahanga ndetse n'ayimbere mugihugu aha rero ushobora kuyifashisha igihe ushaka gukora nk'urugendo usohoka igihugu.

Aha turahabona icyapa kiranga ahantu cyanditseho ikigo gishinzwe ivunjisha ry'amafaranga y'amanyamahanga, ubashaka wabahamagara kuri zeru karindwi umunani umunani gatandatu gatandatu gatanu gatanu karindwi umunani.

Inzu ikoreramo ikigo gishinzwe ivunjisha ry'amafaranga, aho ushobora kuyigana ukeneye kuba wakohereza amafaranga cyangwa se ukakira amafaranga aturutse mu mahanga.

Ni inzu nini ifite amadirishya asize amabara y'umweru hanze gato hari intebe ndetse n'imeza, nawe ushobora kwifashisha usangiriraho n'abawe kandi akaba ari ibintu bigaragara neza kumaso y'ubireba.

Imbere yacu turahabona igikoresho ushobora kwifashisha uterekaho imitako yo mu nzu kigagufasha kuba wakesha inzu yawe, urugo rwawe cyangwa ahantu ukorera akazi kawe ka buri munsi.

Izi nitebe zo kwicaraho igihe ugiye gufata ifunguro ndetse n'meza uterekaho ibyo kurya cyangwa se ugiye mu kwandika ibi rero nagushishikariza inama nawe yo kubigura kubera ko burya birafasha kuba utekanye iyo uri kubikora ibyo byose.

Aha ngaha hari ameza yicayeho abantu bane harimo umugore umwe ndetse n'abagabo batatu, bicaye ku ntebe nziza cyane bose imbere yabo hari indangururamajwi kugirango ngo babashe kumvikana, hakaba hari kandi n'uducupa tw'amazi atunganywa n'uruganda ruzwi cyane mu Rwanda mu gutunganya ibyo kunywa rw'inyange

Izi ni intebe nziza zo kwicara ni nini mu bugari imbere yazo hari intebe ikoze mu bibaho ndetse ku ruhande hakikijwe n'ibirahure bibonerana ndetse hari igikoresho hari cy'umutuku kifashishwa mu kuzimya umuriro.

Izi ni intebe zikorwa hifashishijwe imbaho ndetse n'ibiti ushobora kuzifashisha wicaye uri gusangira n'abawe n'ameza ari hagati ya zo iruhande hari umuhanda wa kaburimbo uri kunyuramo ibinyabiziga bitandukanye.

Iyi ni inzu nini kandi ndende igerekeranyije, iri kwakamo amatara y'ubwoko bugiye butandukanye, hanze yayo hari amazi ushobora kuba wakogamo igihe ufite umunaniro, nakugira inama yo kuzasohokanamo n'abawe , n'abavandimwe mukabasha kwishima muri kumwe.

Aya ni amazi rusange yo kogeramo akikijwe n'ubusitani bwiza ndetse n'ibiti birebire by'icyati bitanga umuyaga n'amahumbezi kubayakoresha bose. Si ibyo gusa kandi hari inzu nini yo mu bwoko bwa etaje.

Aha nahantu ushobora kuba wasohokera wowe n'abawe abavandimwe incuti ndetse n'abandi n'inzu nini ubona ikeye, nindende muburebure amatara arayizengurutse ahantu hose mumabara atandukanye.

Aha ni ahantu heza ushobora gusohokera wowe n'abawe, inshuti n'umuryango, mukabasha kwishimisha, imbere yanyu hari amazi mushobora kogamo igihe icyo ari cyo cyose mubikeneye.

Ku ifoto yacu turahabona igikombe cyiza cyane, bisa nkaho kirimo ikawa, aha ni ahantu ushobora gusohokera ukaba waryoshya n'abawe n'umuryango wawe, kandi bitaguhenze.

Iyi ni inzu nziza ifite amasikariye y'amabara agiye atandukanye, amatara yayo araka neza, ku ruhande turabona igikoresho cy'umutuku cyifashishwa hazimya inkongi y'umuriro, igihe yateye bidateguje.

Iki ni icyapa kimanitse ahantu harehare kiri mu mabara y'umweru imbere urabona kibonerana, cyanditseho Nyabugogo bisa nk'aho ari ikigo gishinzwe ibintu by'ubwishingizi, nakugira inama y'uko nawe mu gihe ufite ikibazo runaka wababwira bakakwishingira.

Ibi ni ibiro by'ubwishingizi runaka bamwe ugira ikibazo warafatanye nabo ubwishingizi bakaba bagufasha gukemura icyo kibazo kikubayeho nk'impanuka mu buryo bworoshye bitagoranye.

Iyi ni inzu nini mu bugari, nk'uko bigaragara isize amabara y'umweru, hejuru hari icyapa cyerekana ikigo gitanga ubwishingizi ubwo ari bwo bwose; nakugira inama rero nawe yuko wagana ubwishingizi nk'ubu.

Aba ni abantu benshi bicaye ahantu hamwe bamwe muri bo bari gukoresha ikoranabuhanga ndetse na murandasi, nkuko bigaragara iki ni ikigo gifasha mu gutanga ubwishingizi yaba mu kwivuza cyangwa se bwo ibicuruzwa byawe.

Iyi ni inzu nziza nini, isize amabara y'umweru ikikijwe kandi n'ibirahure, gusa mo imbere harimo ibiro, nawe rero nakugira inama mu gihe ushaka ubwishingizi yuko wajya uhagana bakagufasha.

Ku gishushanyo kiri imbere yacu turahabona icyapa cyamamaza uburyo bw'ubwirinzi, uburyo bwiza wakoresha bukagufasha kuba bwagukura mu bibazo igihe icyo ari cyo cyose waba ugize imanuka. Ni uburyo bw'ubwishingizi bugufasha kuba wakoresha ntibigukuremo amafaranga menshi cyane.

Iki ni ikigo gishinzwe ubwishingizi giherereye i Kigali mu Rwanda, ubashaka wabahamagara kuri nomero zeru karindwi umunani, umunani, gatandatu, kane, umunani, icyenda, gatatu gatanu.

Iki ni icyumba cyiza kigaragaza aho bakorera inama, urabona ko kirimo imeza nini ndetse n'intebe nyinshi aho umuyobozi wabo yicara, imbere n'abamukurikiye bakagenda bicara ku mpande bagiye bateganye.

Iyi ni inzu nini igerekeranije, ifite ibirahuri by'umukara ahantu hose, kuruhande gatoya hari ibishushanyo by'abantu bagiye batandukanye, hejuru gato hari icyapa cy'ubururu cyanditse n'amagambo y'umweru, bigaragarare ko arigo cy'ubwishingizi runaka.

Nk'uko bigaragara iyi ni inzu nziza cyane igerekeranyije, imbere yaho hari icyapa kigaragaza abafatanyabikorwa mu bwishingizi bamwe ugira ikibazo warafashe ubwishingizi bwabo bakakugoboka.

Ni umugabo wicaye imbere ya mudasobwa asa nk'aho ari gukoresha murandasi ku ruhande rwe hagaze abana bakiri batoya bisa nk'aho ari abanyeshuri baje gufata inguzanyo y’ibijyanye n'imyigire yabo.

Aba ni abantu babiri umwe muri bo yicaye mu kinyabiziga ari guseka afite ibyishimo yambaye umupira w'umweru urimo uturongo tw'umukara, iruhande rwe hagaze umugabo wambaye ikote ryiza cyane ubona yamwishimiye.

Uru ni urubuga rwa Leta rutangirwaho inguzanyo ku banyeshuri, ku ifoto turahabona umusore mwiza wambaye umupira w'umukara, mu maboko ye acigatiye ibitabo mumaso ye ari guseka bigaragare ko yasazwe n'ibyishimo.

Uru ni urubuga rwifashishwa mu gutanga inguzanyo, ubona hariho umusore mwiza ufite amaso y'umweru, umupira wererana ndetse, n'ishati irimo uturongo, urabona ko ari guseka, n'ipantaro ijya gusa ubururu.

Uru ni urubuga rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga, rushishikariza abantu kwaka inguzanyo. Hariho umusore wambaye ishati y'ubururu, agasatsi ke karasokoje, mu maso ye hari ibyishimo kubera ko ari guseka.

Imitaka myinshi igiye itandukanye harimo imitaka itukura ya eyateri ndetse n'uw'icyatsi wa infinigisi imbere yaho hakaba hateretse akabati gacururizwaho, amarinite imbere y'aho hakaba abantu benshi batandukanye harimo uwambaye ijiri ya emutiyene, isa umuhondo hakurya y'aho hakaba hari inzu iriho y'icyapa cya eyateri.

Uru ni urupapuro rukoreshwa hifashishijwe gutanga inguzanyo, aho wuzuzamo amazina yawe, aho uturuka ndetse na telefone yawe ikuranga, ndetse n'amatariki y'amavuko wavukiyeho.

Uru ni urubuga rwa bank populaire rukoresha ikoranabuhanga ndetse na murandasi, turahabona umudamu usa nk'ukuze ucigatiye ikintu mu ntoki yambaye ipantaro ijya gusa ubururu afite ingofero y'umuhondo ku mutwe we.

Aba ni abantu benshi higanjemo abari n'abategarugori bari imbere y'ibintu ntabashije kumenya neza, urabona ko bose bazamuye amaboko y'abo kandi bishimye mu maso y'abo nk'uko habigaragaza.

Iki ni ikigo cyiza cyane gishobora kugufasha gufata inguzanyo ukaba wakemura ibibazo waba ufite ndetse ukishyura mu buryo butagoranye igihe icyo aricyo cyose, iyo nguzanyo wafashe yakubyariye umusaruro.

Uru ni urubuga rwa eko banke ikorera mu Rwanda, ruriho ifoto y'umusore wambaye neza, afite telefone mu ntoki, arishimye ku maso ye nk'uko bigaragara nawe rero ushobora kuba wanyarukira ukaba wafata inguzanyo yo gukoresha ikintu runaka.

Iki ni icyapa gikorera kuri murandasi ndetse na mudasobwa kiriho umudamu mwiza ubona usa nk'ukuze, wambaye imyenda y'ubururu, amaherena y'umweru, umusatsi we urasokoje kuburyo bigaragarira neza buri muntu wese ubirebye.

Iyi ni inzu nini yo mu bwoko bwa etaje, isize amabara y'umweru ndetse n'ubururu, asi gato hari icyapa cyamamaza ibijyanye no gufata inguzanyo, nawe rero nakugira inama yuko wahanyarukira ukaba wayifata, mu gihe ufite ibyo ushaka kuyikoresha.

Iyi ni inzu nini irimo abantu benshi bakeye bisa nkaho ari isoko, inyuma yayo ikikijwe n'igipangu cy'umukara, hanze hari ibikoresho bya kinyarwanda harimo ibisabo, ingoma n'ibindi bigiye bitandukanye.

Aba bantu benshi bigaragare ko bari mu isoko, higanjemo ababyeyi bakuze, ndetse n'abagabo bakuze, imbere yabo hateretse ibiribwa byinshi, harimo amateke, ibitoki, imineke n'ibirayi, n'ibindi bigiye bitandukanye.

Iyi ni inzu nini bisa nk'aho ari isoko ririmo abantu benshi bari mubi bikorwa bigiye bitandukanye, ikikijwe n'igipangu cy'umukara hanze yayo hari ibinyabiziga by'ubwoko bwose.

Aba ni abantu benshi bahagaze ahantu hamwe basa nkaho bari ku murongo, imbere yabo hari inzu yo mu bwoko bwa etaje imwe igerekeranyije, isize amabara y'umuhondo ndetse n'icyatsi hasi yayo.

Abantu batatu higanjemo abagabo babiri ndetse n'umugore umwe, umwe muri bo ari gukora mu nyanya abandi urabona ko bafite ibyishimo ku maso yabo barimo baganira, na gushishikariza kujya nawe wigerera mu isoko ukabasha guhaha ibyo wishimiye.

Inzu nziza iri imbere y'umuhanda, ni nini cyane mu buryo bugaragara, wagirango ngo ni isoko uyitegereje neza, imbere yayo hari amamodoka menshi ahagazeho abagenzi, ikindi kandi mu muhanda uri imbere yayo gatoya, haracaracara urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bigiye bitandukanye.

Aba nabadamu babiri bicaye ahantu hamwe baratuje basa nkabakuze bambaye neza imbere yabo hateretse imifuka irimo ibyo kurya nkibirayi kandi hari uje guhaha basa nkaho bari kumuhereza ibyo biribwa

Inzu nziza cyane igerekeranyije, inyuma yayo urabona ko isize amabara y'umuhondo. Hasi gatoya hagaze abantu benshi ndetse n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ni isoko ryiza nkuko bigaragara.

Imbere yacu turahabona isoko ryiza cyane ryuzuyemo imyenda myiza cyane, uko bigaragara iramanitse kandi iragurishwa, imbere y'imyenda hicaye aba mama beza cyane, bisa nk'aho bari kudoda, ari bo bidodera iyo myenda mubona imanitse.

Ibi biribwa bisa nkaho biri ahantu bigurishirizwa harimo inyanya, insenda ndetse n'imboga n'ibindi byinshi, nawe rero ukeneye kugira icyo wihahira, nakugira inama yo kujya uza ahantu nk'aha rero ukabasha kwihitiramo.

Izi ni imbuto zo kurya bazikoramo ibyo kunywa harimo amaronji, imineke, inanasi iruhande rwazo hari umugore ubona wifubitse ibitenge asa nk'ukuze washyize akaboko ku munwa we.

Abantu benshi ubona yiganjemo abadamu bakuze ndetse n'abana batoya, umwe muri bo wambaye imyenda y'icyatsi ahantu hose afite emvelope mu ntoki ndetse aha hari inanasi bisa nkaho yaje kugura.

Nk'uko bigaragara iri ni isoko ryiza wasangamo ibicuruzwa byose byo kurya ukabasha kwihahira ukajya gutekera umuryango wawe, ndetse n'abawe mukabirya mwishimye kubera ko birakeye ubirebesheje amaso.

Aba ni abantu benshi bahagaze ahantu hameze nko mu isoko, abenshi muri bo bambaye impuzankano y'umuhondo, imbere yabo ateretse ibitoki, inyanya ndetse n'ibitunguru. Urebye ku maso yabo urabona ko bishimye ndetse baje kugura.

Abakobwa batatu ubona bishimye ku maso yabo bafatanye ku rutugu bamwe muri bo bambaye imipira y' umuhondo ndetse undi yambaye umupira w' ubururu wanditseho Momo.

Agapalastiki k'umukara kifashi kifashishwa mu kubika ibintu mu gikori cyangwa se mu rugo gafite amaboko mu mpande zombi katobaguye kandi gatobaguye mu mpande zose, mo hagati kabitse mo hagati gateretsemo amagi atatu ndetse n'akandi gakoko gusa katagaragara neza ikirimo. Kandi kari ako gatebo gateretseho ako gapalasitike kari ku meza y'umweru irambuye.

Aba ni abagabo babiri ubona bahagaze ahantu hamwe, bishimye bari guseka nk'uko bigaragara mu maso ya bo, umwe afite amvelope mu ntoki ndetse na telefone, hari ibyo ari kwerekana, undi kuruhande yambaye umupira w'umuhondo.

Uko bigaragara ku ifoto yacu turahabona umugabo wambaye umupira w'umuhondo, imbere ye hahagaze umudamu wambaye ikanzu, ahangaha rero rero ni ahatangirwa serivisi zose za emutiyene.

U Rwanda rufite intego yo kongera umukamo n'ibikomoka ku matungo, niyo mpamvu amata bayakusanyiriza hamwe, bakayazana muri kigali kugira ngo agurishwe ameze neza yujuje ubuziranenge.

Ku ifoto yacu turahabona icyapa cyamamaza ikigo cy'itumanaho mu Rwanda cya MTN, aho ushobora gukanda akanyenyeri ijana na mirongo itandatu na gatanu akanyenyeri gatanu, ukaba wabasha kwiguriza amafaranga ukoresheje MoKash.

Imbere yacu turahabona abagabo batatu bahagaze imbere y'ahatangirwa serivisi za MTN mobile money, abagabo basa neza cyane basa nkaho nabo baje gushaka zimwe muri serivisi za momo.

Biroroshye kandi birizewe ku muntu uwo ari we wese ukoresha emutiyene mobayilomani kuba wabona serivisi z'amafaranga mu bijyanye no kubitsa no kubihuza ku mashami yose ya emutiyene mobayilo mani.

Biroroshye kandi birizewe ko umuntu wese ufite emutiyene mobayiro mani kwishyura ukoresheje momopeyi, ntabwo bigoye cyane nkuko turi kubibona kuri aka gakataka ka emutiyene katuri imbere, bigusaba gukanda ijana mirongo inani na kabiri kanyenyeri umunani akanyenyeri rimwe urwego ugashyiramo kode maze ukemeza ntago bitinda kandi birirukanka ni emutiyene yizewe cyane.

Imbere yacu turahabona umukobwa mwiza wambaye umupira wa emutiyeni afite mikorofone mu ntoki ndetse n'icyapa ku ruhande rwe cyamamaza ikirango cya emutiyeni mobayiro mani cyangwa se momo mu magambo magufi.

Iki ni icyapa cya emutiyene mobayiro mani kirerekana uburyo ushobora kwishyura amafaranga ayo ari yo yose bitakugoye ndetse nta giceri na kimwe ukaswe ukishyura nta mbogamizi na zimwe uhuye nazo.

Ni uburyohe ku bakoresha MTN Mobile Money, hano ushobora kwishyura mu buryo bworoshye udakaswe amafaranga ayo ari yo yose kandi byihuse.

Uru ni urubuga rukoresha ikoranabuhanga ndetse na murandasi, ushobora kurwifashisha igihe ushaka kugurisha cyangwa se ibyo kurya harimo imineke, ibirayi n'ibindi bigiye bitandukanye.

Uyu ni umugabo wambaye imyenda myiza y'umukara, afite terefone mu ntoki, yicaye kuri moto, inyuma ye hari icyapa cyamamaza uburyo ushobora gutumiza ibyo kurya bikakugeraho utavuye aho uri.

Uru ni urubuga rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga aho ushobora gutumiza inkweto z'abakobwa zikakugereraho ku gihe kandi byihuse bitagusabye kuba wakora urugendo ujya kuzishakisha hirya no hino.

Uyu mugabo ubona wambaye umupira mwiza umubereye ndetse n'ipantaro ijya gusa ubururu, mu kiganza cye acigatiye igikarito ntabashije kumenya ikirimo urabona ko agasatsi ke gasokoje kandi kumaso ye yishimye cyane.

Imbere yacu turahabona urubuga rwiza cyane rukoresha murandasi ndetse n'ikoranabuhanga rugufasha kugura ndetse no kugurisha utavuye aho uri muri ibyo bikorwa bikorerwamo waba ufite imodoka, inzu, ikibanza ugurisha cynagwa se ukodesha ukanda hano ngaha ukaba ubishize ku isoko.

Uru ni urubuga ushobora kunyuraho ugakoresha uri guhaha, buryo bworoshye butakugoye ukoresheje ikoranabuhanga ndetse na murandasi, bikakugeraho byihuse kandi bimeze neza.

Uru ni urubuga rukoresha ikoranabuhanga ndetse na murandasi, rucururizwaho ibyo kurya by'ubwoko bwose, harimo inyanya ndetse harimo n'ibirayi bigura igihumbi na maganabiri mirongo itanu, ndetse n'imineke igura magana abiri y'amanyarwanda.

Uru ni urubuga rwiza ushobora gutumirizaho ibyo ushaka byose bikakugeraho mu rugo iwawe utarinze kuvunika ujya kubishakisha hirya no hino mu buryo bwizewe, bwihuse kandi bworoshye. Warukoresha rero ukaba wahaha ho ibyo wifuza byose.

Uru ni urubuga ushobora guhahiraho ibikoresho ibyo ari byo byose bitagusabye kuva aho uri ukoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga ndetse na murandasi ni uburyo bwizewe cyane kandi bwihuse bunogeye ababukoresha.

Ushobora guhaha ibikoresho byo mu rugo ndetse n'ibyo ku kazi, mu buryo bwa murandasi cyangwa bw'ikoranabuhanga, bitagusabye kuva iwawe, mu buryo bworoshye cyane kandi bwizewe, ukoresheje ihaha onilayini.

Uru ni urubuga rwizewe ushobora gutumizaho ibyo ushaka byose byo kurya bikakugeraho utarinze kuva aho uri mu buryo bworoshye kandi bwihuse ndetse n'igiciro kiri hasi cyane, nawe ubu rero wabitumizaho bikakugeraho ukaryoherwa nk'abandi bose.

Imbere yacu turahabona urubuga rwa onorayine rukorera kuri murandasi cyangwa rukoresha ikoranabuhanga, ruratwereka uburyo ushobora kugura no kugurisha utavuye iwawe ku ikoranabuhanga ndetse bidasabye n'abakomisiyoneri.

Uru ni uru buga rwiza rwizewe rwitwa Vuba vuba ushobora guhahirahomu buryo bukoroheye ndetse bwihuse ukaba watumiza icyo ushaka cyose kikakugeraho vuba.

Iyi ni inzu nziza ifite amabara y'umweru irimo ibikoresho bigiye bitandukanye ushobora gutekeraho intebe nziza z'umufariso, ndetse n'ameza maremare manini kandi abereye amaso.

Iyi ni inzu nziza irimo amabara agiye atandukanye, arimo umweru ndetse n'umukara, nk'uko bigaragara iragurishwa amafaranga agera kuri miliyoni ijana na mirongo itatu z'amanyarwanda kandi ikaba iherereye hano i kigali.

Uyu ni umugabo ukeye ku mutwe we hari ingofero y'umweru ndetse n'agapfukamunwa, yambaye ishati y'amabara menshi agiye atandukanye bisa nkaho ari ahantu hari ibibanza bigurishwa, nawe rero nakugira inama yo kwegera ahantu nk'ahangaha ukaba wakigurira ikibanza cyawe.

Ku ifoto yacu turahabona igipangu cyiza imbere harimo inzu ikeye cyane baratubwira ko iyi nzu nawe ushobora kuyigura mu mafaranga yawe miliyoni mirongo icyenda n'eshanu ikaba iherereye i Kanombe mu mujyi wa Kigali.

Iyi ni inzu nziza, irimo intebe z'ubururu ndetse n'ameza y'umukara, isize amabara y'umweru ndetse irimo imitako igiye itandukanye kandi myiza cyane.

Iyi ni inzu nziza cyane ifite amakaro meza nk'uko bigaragara iyi nzu iri i Kigali ndetse iri kugura miliyoni mirongo irindwi n'eshanu nakugira inama niba nawe ufite amafaranga y'uko wagura inzu nk'izi nkizi nziza zigezweho.

iyi ni inzu nini igerekeranyije igizwe n'amadirishya asize amabara y'umweru, ndetse n'ibirahure by'umukara. Hepfo gatoya hari ubusitani bwiza bubereye amaso, nawe rero wayikodesha amadolari agera kuri maganatanu mirongo itanu, hano i Kigali.

Iki ni igitanda kinini kiriho uburiri bwiza kirashashe kuburyo bubereye amaso, hejuru gato hari umukara hirya ni ibara ry'ubururu bwerurutse, umweru hejuru uri ku matara.

Iyi ni inzu nziza igerekeranije ifite ibirahure by'umukara ndetse isize amarange y'umweru iraboneka mu kuyikodesha iherereye kimironko mu izindiro.

Imbere yacu turahabona icyapa cyamamaza kiriho imodoka nziza cyane y'umweru handitseho amagambo akurikira ati hano tubafitiye serivisi zikurikira; uburyo bw'urugendo hagati mu gihugu ndetse n'inyuma y'igihugu, tugurisha tukanarangura imodoka, amazu, ibibanza n'ibindi bikoresho bitandukanye dukora n'ibijyanye n'ubwubatsi.

Iki ni icyapa kinini cy'umweru kiriho amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara, handitseho ikaze aho nawe ushobora kuba wagura inzu cyangwa ikibanza bitakuvunnye ndetse bitagusabye kwirirwa usiragira mu mihanda.

Inzu igurishwa cumi na gatanu, uvuye Mayange ifite amakaro yose, ni nziza kandi yubatse muburyo bugezweho.

Ku ifoto yacu turahabona inzu nziza, uko bigaragara ni inzu ikodeshwa, iherereye i Kigali ku Kimiroko, ni inzu ifite ibyumba bibiri ndetse ikagira n'ubwiherero bubiri, uyishaka wayikodesha ku kwezi amafaranga agera ku bihumbi magana atatu mirongo itanu.

Mu ifoto yacu turahabona inzu nziza cyane ikodeshwa iherereye i Kigali i Kanombe ifite ibyumba bine ndetse n'ubwiherero butatu uyishaka wayikodesha ibihumbi magana atatu mirongo itanu by'amanyarwanda ku kwezi.

Iyi ni inzu nini mu bugari nkuko bigaragara ni nziza irakodeshwa ifite amabara y'umweru ku madirishya iherereye kimironko kwa Sekimondo ifite ibyumba bitatu uyishaka wakishyura ibihumbi maganatatu by'amanyarwanda.

Imbere yacu turahabona abantu batatu bari mu iduka rigurisha imyenda myiza cyane, kandi y'ubwoko bwose ushobora nawe kuba wahagera ukihahira ibikunogeye ndetse bigushimishije.

Uyu ni umugabo ubona ko yishimye yambaye umupira w'umweru n'ipantaro ijya gusa ubururu, ingofero y'umukara kuruhande rwe gatoya hari umudamu ufite ikintu cy'icyatsi uhagararanye nundi ubona ko bari kuganira bahuje urugwiro ahantu hameze nko mu isoko baje guhahira.

Ahubakwa amazu y'icyerekezo atuzwamo abaturage bimuwe bakabaho batekanye aho baba begereye n'ibibuga byo kwidagaduriramo bakiniraho imikino igiye itandukanye.

Abadamu ndetse higanjemo n'abagabo ubona ko ubakuze bose bari imbere y'amaduka agurisha ibintu bimeze nk'imyenda ndetse hejuru yabo hari ibipirizo binini cyane bigaragara nk'aho ari imitako, urabona ko ari ibintu byiza rwose biryoheye n'amaso, nawe nakugira inama yo kujya ugana muri aya masoko ugahahiramo.

Aba ni abantu batatu ubona basa naho bari kuganira bambaye udupfukamunwa. Umwe muri bo yambaye ishati nziza y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara undi kandi kurundi ruhande yambaye agapira k'umutuku kavanzemo ibara ry'umweru n'ipantaro ijya gusa ubururu, urabonako bari ahantu hakoresherezwa ibikoresho by'ikoranabuhanga.

Ni abagabo babiri ubona bishimye basa nk'abakuze bari kuganira bose bambaye amakoti y'amabara agiye atandukanye, umwe muri bo afite akamverope k'umuhondo, ntabashije kumenya neza ibirimo, inyuma yabo kandi hari abambaye impuzankano ijya gusa ubururu.

Uyu ni umukobwa mwiza wambaye ishati y'umweru ubona ari ahantu hari impapuro nyinshi afite ikaramu mu ntoki asa nkuri kwandika, afite imisatsi ye isa imikara ndetse n'amaherena ari ku matwi ye.

Uyu musore usa nkaho akiri muto yambaye agapfukamunwa, ishati y'uturongo tw'umweru ndetse n'umukara, agasatsi ke karasokoje afite ikintu kimeze nk'icyapa mu ntoki ze, hirya gato hari ibiti birebire n'ubusitani bwiza.

Aba ni abantu benshi bicaye ahantu hamwe, biganjemo abagore basa nk'abakuze, umwe muri bo arahagaze, ari gutanga impapuro ntabashije kumenya ibiriho, bari mu busitani bwiza, hirya hari ibiti birebire ubona bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Iyi ni inzu nini mu buryo bugaragara isize amabara y'umweru n'ubururu hejuru ndetse n'umukara ku madirishya n'inzugi ku ruhande hari ubusitani bugaragara neza ubona butoshye, butanga umuyaga ku bagenda bose.

Mu ifoto yacu turahabona umuntu uhagaze usa nk'aho yaje guhahira mu isoko ririmo ibicuruzwa byo kurya harimo; inyanya, insenda, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Uyu n'umugabo ubona wishimye uri guseka asa nk'uri gukurura igare rihahirwaho, inyuma ye kandi hari abandi batatu bambaye neza, harimo uw'imihondo ndetse nuri kureba muri murandasi, ahantu ari bisa nkaho yaje kugura bimwe mu biribwa.

Iri ni iduka ubona rikeye cyane ririmo amatara y'amabara agiye atandukanye ndetse n'ibyo kunywa byinshi by'ubwoko bwose nawe rero, nakugira inama niba ukeneye icyo kunywa ko wajya wegera aho bigurishirizwa kugira ngo ubashe kugira ubuzima bwiza.

Iri ni isoko ushobora guhahiramo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, mu buryo budahenze buri kimwe cyose wakwifuza kugura kiribwa wagisanga muri iri duka.

Iyi ni inzu nini ifite amabara y'umweru hasi ndetse no hejuru bisa nkaho ari mu isoko kubera ko harimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, harimo ibyo kurya, ibyo kunywa ndetse n'ibindi. Nakugira inama y'uko wajya ugana ahantu nkaha mu gihe ukeneye ibyo mvuze ijuru.

Aba ni abagabo babiri ubona bishimye ku maso yabo umwe muri bo acigatiye amasahani nkaho bari mu iduka ricuruza ibikoresho, nawe rero nagushishikariza yuko wahagana ukigurira.

Iri ni iduka ricuruza ibintu byo kunywa bigiye bitandukanye. Yaba ibiryohereye, amata, amazi. Byose ushobora kubisanga muri iri duka, icyo wifuza cyose ukihitiramo.

Iyi ni inzu nziza igaragara y'umweru ahantu hose irimo ibikoresho ushobora gukenera kuba wagura cyangwa se kuba warangura, ikiza cyo kujya mu iduka ni uko usanga hateraniye bimwe mu bikoresho byinshi wakwifuza ukabibona bikoroheye.

Uyu ni umukobwa usa nkaho akiri muto afite ikoranabuhanga mu ntoki ziwe yambaye umupira w'umutuku ku maso he urabona ko yishimye ari guseka bisa nk'aho hari ibyo ari guhererekanya n'undi muntu bari kumwe.

Ni nyubako itanga serivise, harimo umugabo wambaye umupira w'umweru wakira abamugana. Hari umugabo uje ateruye umwana, akaba yambaye rinete ndetse n'ipantaro y'umukara.

Mu ifoto yacu turahabona inzu nziza cyane, nini irimo ibirahure by'umukara, mo imbere yayo harimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, nk'amata, ibyo kunywa biryohereye, ndetse n'ibindi byinshi.

Iri ni iduka ushobora kwifashisha uhahiramo ibyo kurya bigiye bitandukanye harimo insenda, inyanya, ibitunguru, amashu ndetse n'ibindi byo kurya bigera mu mboga byose.

Ifoto yacu turahabona umugabo wambaye agapira k'ubururu ndetse n'umweru n'ipantaro nziza cyane, bigaragare ko ari mu isoko yaje guhaha ibikoresho bigiye bitandukanye.